Ahantu bacururiza imiti igiye itandukanye, hari utu etajeri tugiye dutandukanye twinshi, hirya y'aho hari igikarito kirambitse mu muryango kinini.

Ahantu kwa muganga, hagiye hari imiti itandukanye, iri mu ducupa tugiye dutandukanye, hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya isa umweru yandikishijweho amagambo y'icyatsi, akaba ari kuri kompiyuta, uwo muganga akaba yambaye impeta n'isaha, yambaye na rineti.

Indabo ziteye ahantu zicucitse, harimo n'utwatsi twumye n'ututumye, hakaba hari n'igihehe kiri kuhamerara, inyuma y'izo ndabo hari ibiti by'imisave n'imigano yumye, bihari bihateye.

Igiti cy'umusave munini ufite amashami menshi cyane uteye mu butaka. Harimo ikidodori kirimo kuyangamo kikaba cyaragiye kirandarandamo, kikaba kitarazana ibihaza.

Ahantu hahinze , hari n'amabuye y'amakoro , hakaba harimo icyatsi cy'urudega kigiye gitandukanye . Hakaba hari n'ikindi cyatsi cy'urudega bigiye biteye hino bitarakura cyane.